Umusore uhagaze, wambaye ishati y'umukara ndetse n'umweru, afite indangururamajwi mu kuboko kwe kw'buryo, inyuma ye hahagaze umukobwa wambaye imyenda y'imikara, hari kandi abandi bantu bicaye.

Umuyobozi w'akarere ka Nyagatare, yambaye ikositime y'umukara ndetse mo imbere harimo ishati y'umweru, yambaye karuvati isa ubururu, ahagaze imbere y'urukuta rusa umukara, hari ijambo ariko kugeza ku baturage yabateguriye.

Abantu benshi bicaye, umugabo umwe arahagaze yambaye umupira w'umweru ndetse harimo n'utubara tw'umutuku, afite indangururamajwi, arimo aravuga ijambo yageneye abantu.

Umugabo wambaye ishati yicyatsi, wicaye mu ntebe. Imbere ye hateretse igitabo ndetse hari n'amatelefone menshi. Bisa nkaho hari ijambo ari kubwira abamuri imbere. Inyuma ye hari urukuta rusa icyatsi.

Umuyobozi w'Akarere ka Nyagatare, wambaye amarinete ndetse wicaye ushaka guseka. Iruhande rwabo hari amacupa ane: abiri y'amazi ndetse n' abiri ya ji. Inyuma ye hari abandi bantu bicaye.

Abantu benshi higanjemo abagabo ndetse n'abagore bicaye mu nyubako ifite ibitambaro by'umweru, baricaye baratuje bari kureba imbere bisa nk'aho hari undi muntu ubahagaze imbere uri kubagezaho imbwirwaruhame.

Abamama ndetse n'abagabo bicaye mu ntebe zisa n'umutuku, bose bateze amatwi, bisa nk'aho hari umuntu imbere, uri kubagezaho imbwirwaruhame, umwe muri abo bamama yambaye amarinete.

Siporo ni ingenzi mu buzima bwa buri munsi kuko idufasha kwirinda indwara zitandukanye ziterwa n'umubyibuho ukabije, abantu benshi biganjemo abagore ndetse n'abagabo bari muri siporo ngororamubiri.

Abagabo babiri bicaye bose bambaye imikenyero iri mu mabara atandukanye bambariyemo ishati isa umweru bose bafite igikoresho gikoreshwa mu gucuranga indirimbo gakondo.

Umusambi uri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara, utazinze wose. Uri ahantu mu byatsi bitoshye cyane bisa icyatsi. Umusambi ugaragaza umuco nyarwanda.

Umugabo upfukamishije akaguru kamwe ufite n'ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu guhiga inyamanswa, afite umuheto mu ntoki ze bisa nkaho arimo kwiga cyangwa se agiye kumasha kugira ngo abashe kwica iyo nyamanswa.

Abagabo, abasore ndetse n'abakobwa. Hari kandi abagabo bafite indangururamajwi ndetse hateretse n'ingoma imbere yabo. Ni itorero risusurutsa abantu mu kubyina.

Abagabo babiri bahagaze ahantu hisanzuye bose bafite icumu ndetse n'ingabo mu ntoki zabo bambaye imyenda y'umuco nyarwanda, inyuma yabo hari ibiti bihateye bigiye bitandukanye.

Ingoma ndetse n'imirishyo yayo iteretse ahantu ku meza, hafite ibara ry'umutuku. hirya urukuta na rwo rurasa umutuku, indirimbo iryoha kubera ingoma ndetse biba byiza iyo iri kuvuzwa n'umuntu ubizi.

Umukobwa urimo araseka neza yambaye imikenyero iri mu ibara ry'umweru ndetse ateze amaboko mu buryo bwiza, iyo uri umubyinnyi kandi ubizi biba ari byiza cyane.

Umumama ufite imisatsi ifite ibara ry'umukara, upfukamye ku kirago ndetse imbere ye hari igikoresho cyifashishwa mu gusya kizwi nk'urusyo, iruhande rwacyo hateretse ikibo bisa nkaho harimo ibyo arimo gusya.

Imodoka iparitse iri mu mabara y'umweru ifite imigozi iri kuyisohokamo iri mu mabara y'umukara; hari kandi abagabo babiri bambaye amajiri asa icyatsi ndetse na shokora; bafunguye umuryango w'yo modoka; inyuma yabo hari indi nyubako ndetse n'imodoka iparitse.

Urugomero rw'amashanyarazi rushinzwe gutunganya amashanyarazi kugira ngo ruyageze mu baturage hirya no hino mu gihugu, hari abantu benshi barimo gusukura akayira kari iruhande rw'urwo rugomero.

Icyumba kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, harimo abagabo bane bambaye amasarubeti asa ubururu, barimo baritegereza bareba icyo ibyo bikoresho cyaba byabaye kugira ngo babikanike byongere bikore akazi kabyo.

Umugabo wambaye isarubeti isa move ndetse wambaye na kasike isa umweru. Yambaye amarinete asa umukara, ahagaze ahantu hari ibikorwa bigiye bitandukanye. Arimo kwitegereza ku gitabo afite mu ntoki ze.

Umugabo wambaye isarubeti y'umukara ndetse n'umweru, yambaye kasike isa umuhondo ndetse n'agapfukamunwa gasa umweru, yambaye ga mu ntoki zisa umutuku ndetse n'umukara, arimo gukanika igikoresho gikoreshwa muri serivisi zitandukanye.

Insinga z' amashanyarazi tubona zijyana umuriro mu baturage hari ahandi mu magomero agiye atandukanye, ziba zakuye ayo mashanyarazi, kuko niho atunganyirizwa kugira ngo abashe kugera ku baturage, hirya no hino.

Amapoto ariho insinga zitwara amashanyarazi, ziyajyana mu ngo zigiye zitandukanye kugira ngo abantu babashe kubona umuriro, bakore gahunda zabo babona, munsi y'aya mapoto hari ibiti byinshi by'amashyamba.

Urugomero rw'amashanyarazi, rutunganya amashanyarazi kugira ngo agere mu bice bitandukanye by'Igihugu; hari abagabo batatu bambaye imyenda y'akazi, bari gukurikirana uko ibikorwa bigenda bikorwa buri munsi.

Imbuga ngari y'igitaka, hubatsemo urugomero rw'amashanyarazi, rushinzwe kuyatunganya kugira ngo ruyohereze mu ngo zijye zitandukanye, zigize igihugu cyacu, amashanyarazi ni ingenzi mu buzima.

Imbaga y'abantu benshi bateraniye ahantu hamwe. Bicaye ku dutebe bisa nk'aho hari ikintu cy'ingenzi bari kuganiraho. Inyuma yabo hari inzu yubakishije amategura ndetse hariho n'icyapa kiri mu mabara y'umweru ndetse n'icyatsi. Hari n'ikigega cy'umukara gifata amazi.

Insinga z'amashanyarazi zitwara umuriro mu ngo zitandukanye hirya no hino mu gihugu, abagabo babiri bambaye impuzankano y'akazi ndetse na kasike zisa umwe bahagaze mu gakoresho kameze nk'ibase gasa umutuku barimo barareba icyo amashanyarazi yaba yabaye kugira ngo bagikosore.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo imodoka iri mu ibara ry'umuhondo, bisa nk'aho ari nijoro kuko amatara yo ku muhanda menshi agiye atandukanye harimo kwaka, iruhande rw'umuhanda hakikijwe n'ibiti byinshi bitandukanye.

Amapoto mato tubona ajyana amashanyarazi mu ngo z'abaturage, hari ahandi aba yakuye amashanyarazi mu ngomero, urugomero rw'amashanyarazi rufite amapoto menshi. Atunganya amashanyarazi kugira ngo agere mu baturage.

Ibiganza by'umuntu utagaragara mu maso, byambaye isaha ndetse n'uturindantoki dusa umweru. Ni umuntu urimo gukanika ibikoresho byifashishwa mu mashanyarazi, areba ikibazo cyaba cyabayeho kugira ngo agikemure.

Amashanyarazi ni ingenzi mu buzima kugira ngo tube ahantu heza habona, ni uko tuba dufite amashanyarazi. Insinga zitwara amashanyarazi zikwiye kubungabungwa kugira ngo zidapfa tukabura amashanyarazi.

Amashanyarazi, ni kimwe mu bintu abantu basigaye bakenera mu buzima bwabo bwa buri munsi, kugira ngo aho baba habashe kubona, ipoto ishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi hirya no hino mu gihugu, ishinze hagati mu murima uteyemo ibihingwa.

Ikiraro cyubatse mu buryo bugezweho bwa kijyambere, hirya yacyo ndetse no hino hari ibiti bihateye. Hari kugendaho imodoka ndende cyane. Hari kugendaho kandi n'abantu batagaragara neza. Hirya yacyo ku mpera hari izindi modoka ziparitse.

Abagabo ndetse n'abagore, bari kugenda mu gahanda k'igitaka, inyuma yabo hari inyubako ifite amabati y'ubururu ndetse iruhande hari ikigega gifata amazi avuye kuri iyo nzu. kirasa umukara.

Umuyobozi w'Akarere ka Nyagatare wungirije, ari kumwe numu mama ukenyeye ibitenge yambaye n'amadarubindi, hirya yabo hari icyapa kiri ku gikuta cyubakishije amatafari ahiye, handitseho amagambo ari mu mabara y'icyatsi ndetse n'umweru. Handitseho ijambo RDB.

Inyubako ya etaje igeretse kabiri, yubatse ahantu hitaruye, iri mu mabara y'umuhondo, hirya yayo hari umusozi uriho ibiti byinshi bigiye bitandukanye by'amashyamba.

Umuhanda w'igitaka werekeza ku nyubako yitaruye, inyuma yiyo nyubako hateye ibiti byinshi bitandukanye, imbere yayo kandi hari ipoto y'ihashinze y'amashanyarazi, hari n'indabyo zihateye.

Inyubako ya etaje y ibitaro by'Akarere ka Nyagatare, harimo imodoka iri guturukamo y'imbangukiragutabara ishinzwe gutwara abarwayi barembye, ibavana aho barwariye ibageza aho bagiye guhererwa ubufasha.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru, cyubatse ahantu hitaruye, hirya yacyo hari intebe ziri mu mabara y'umuhondo icyatsi n'ubururu, agize ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda, agace gato karasakaye, abantu iyo bicayemo ntabwo banyagirwa.

Inyubako nyinshi zubatse ahantu ha zonyine hari umuhanda, utubuye uhagana haratuje nta kinyabiziga gihari, imbere y'izo nyubako hagaze abantu batagaragara neza, hari kandi n'amapoto acanira nijoro..

Imbuga ngari y'amapave, iratuje ntakavuyo karimo, hirya yayo hari inyubako, ifite inkingi zisa ubururu ndetse imbere kuri iyo nzu hari icyapa kigaragaza ibyo hakorerwa.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru cyubatse ahantu heza muri sitade, hirya yacyo hari ahantu abantu bicara bari kureba umupira, agace gato karasakaye.

Ikiraro gisa nk'igishaje, kiri kugendaho abanyonzi babiri, iruhande rwacyo hari amabuye manini ahari, hepfo yaho hari ibyatsi bihateye.

Imodoka iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, iruhande rwayo hahagaze umugabo wambaye imyenda y'imikara, hirya hari amazu menshi ahubatse, hepfo gato hateye ibiti byinusi, bisa nk'aho ari kumupaka.

Umugabo usa nk'ukuze wambaye umupira wubururu. Ahagaze mubandi bantu bicaye. Iruhande rwe hari abandi ba mama bifubitse ibitambaro bisa nk'aho ari mugihe cy'imbeho. Iruhande rwabo hari ibiti bihateye.

Umugabo wambaye ishati y'umukara ndetse n'ikoboyi isa ubururu, ahagaze imbere y'imbaga y'abantu benshi batandukanye, biganjemo abagabo ndetse n'abagore, hkrya yabo hari itente yo mu mabara y'umweru ihateye.

Abagabo basa nk'abakuze, bahagaze ahantu hamwe mu kibuga kiriho ibyatsi byumye. Umwe muri bo afite inkoni arayegamiye. Hirya yabo hari urutoki rwinshi ndetse hari n'imodoka ihaparitse.

Aba mama ndetse n'abagabo bicaye ahantu hamwe, bamwe muri bo bitangiye itama. Bisa nkaho bafite agahinda, hari umuntu baje gufata mu mugongo, wagize ibyagogapfusha umuntu cyangwa se hari umuntu baje kuburanisha, wakoze amakosa akomeye.

Abagabo ndetse n'abagore bahagaze ahantu mu nyubako. Bamwe bambaye udutambaro mu ijosi, twambarwa n'abantu bagiye kwibuka ababo bapfuye. Bahagaze mu nyubako ifite amabara y'umweru.

Abagabo babiri. Umwe wambaye ishati y'umukara, undi wambaye kositime. Bafite indabo mu ntoki zabo, bisa nkaho bazijyanye ku gituro cy'umuntu wabo witabye imana. Inyuma yabo hari abandi bantu bari kuganira.

Umuyobozi w'Akarere ka Nyagatare wungirije ushinzwe iterambere n'ubukungu, yicaranye n'umugabo wambaye impuzankano y'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha, ndetse n'abandi bicaye mu ntebe zisa umweru, imbere yabo hari ameza ateretseho telefoni zabo ndetse n'ikayi.

Abantu benshi bateraniye ku Rwibutso, bambaye amakoti y'umukara ndetse bateruye n'amasanduku mu ntoki zabo, hari n'abamama benshi bafite indabyo, imbere yabo hari umugabo usa nk'utishimye ufite ifoto y'umuntu witabye Imana.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo imodoka iri mu ibara ry'umweru, inyuma yayo hari ipikipiki ndetse n'izindi modoka ziri kuza mu kerekezo iri kugendamo, iruhande rwayo hari amazu menshi ari mu mabara y'umweru.

Imodoka iri mu mabara y'icyatsi ndetse inyuma hanitse Rava, iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo imbere yayo hari umunyonzi uri kuza mu kerekezo iri kuvamo, hirya hari amazu ahubatse.

Imodoka iri mu mabara y'umweru, iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, ndetse inyuma yayo hari moto iri mu bwoko bw'imodoka. Hirya yayo hari amazu agiye atandukanye akorerwamo ubucuruzi, hari inzu ikinirwamo imikino y'amahirwe.

Ni nijoro amatara arimo kwaka yo ku muhanda. Icyapa cyanditseho EN 12 AVE, giteye iruhande rw'inyubako ifite amatafari ahiye ndetse n'irange ry'umweru. Hirya gato hari umuhanda wa kaburimbo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ipikipiki itwawe n'umumotari ndetse ahetse umugenzi wambaye agapira k'umutuku, uhetse n'igikapu mu mugongo, hirya yabo hari ndi modokadoka ihaparitse ndetse n'andi mazu menshi ari mu mabara y'umweru.

Imodoka iri mu ibara ry'umutuku iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, nta bindi binyabiziga biri kugendamo, iruhande hari akayira kagenewe abanyamaguru, hirya yaho hari izindi nyubako zihubatse.

Icyapa gishinze ahantu kigaragaza agace ka Kagitumba ak'umujyi wa Nyagatare ndetse n'ak'ibitaro bya Nyagatare, hirya hari ibiti byinshi bihateye.

Imbaga y'abantu benshi bahuriye ahantu hamwe, bari kubyina bamwe bateze amaboko abandi bari gukoma amashyi, hirya yabo hari urutoki ndetse n'inzu iteye umucanga gusa.

Abagabo ndetse n'abagore bose bafite ibikoresho byifashishwa mu guhinga harimo abambaye impuzankano y'igisirikare bisa nkaho barimo gusibura akayira kugira ngo borohereze imigenderanire hagati y'agace kamwe ndetse n'akandi.

Imbaga y'abantu benshi bateraniye ahantu hamwe, bafite ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu guhinga, harimo majagu, amapiki ndetse n'amasuka ya kidima, birasa nk'aho bari gukora umuganda kugira ngo bakore umuhanda, hari kandi n'abagabo bambaye impuzankano ya gisirikare.

Umugabo wambaye impuzankano ya Polisi uhagararanye n'abandi bagabo babiri, bahagaze imbere y'abandi bantu benshi bisa nkaho hari imbwirwaruhame barimo kubagezaho yazabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Imbaga y'abantu benshi bateraniye ahantu hamwe hari n'abashinzwe umutekano mu rwego rwa polisi ndetse n'urwa daso, hari abantu bikoreye amabuye bisa nk'aho bari mu muganda, hirya yabo hari inyubako zubatse, urutoki rwinshi.

Abaturage benshi higanjemo abagabo ndetse n'abagore, baricaye inyuma yabo hateye imibyare ndetse hagati hateyemo ikindi giti, hirya yabo hari inzu ihubatse yonyine ndetse bisa nk'aho hari umuntu ubari imbere uri kubaganiriza.

Abakobwa bari mu kibuga gifite ubwatsi bugezweho buzwi nka tapi, bambaye amajezi atandukanye, abakobwa babiri bahuriye kuri baro umwe arashaka kuyimwambura undi akayimwima.

Abakinnyi bakina umupira w'amaguru bari mu kibuga bambaye imyenda itandukanye harimo abambaye umutuku ndetse n'umukara ndetse n'abambaye imyenda iri mu cyatsi kibisi, hirya yabo hari abandi bantu benshi baje ku bafana.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru bambaye amajezi ari mu mabara atandukanye bamwe bambaye umuhondo abandi bambaye ubururu, bahagaze mu kibuga gikoze neza kirimo tapi, hari n'umunyezamu wabo uhagaze mu izamu.

Abagabo batatu ndetse n'umwana bari gukinira mu byatsi birebire, inyuma y'ikibuga hari amazu menshi ahubatse ari mu mabara asa umutuku, hari kandi n'ipikipiki itagaragara neza iri kugenda mu muhanda.

Umusore wishimye wambaye ama jesi asa ubururu ,yambaye ingofero mu mutwe ,ndetse yambaye n'inkweto nziza, ari guseka inyuma ye hari undi mwana uri kwitegereza ibyo ari gukora, hirya yabo hari inyubako ndetse n'ibyatsi bisa neza.

Icyapa cyanditseho amagambo ari mu mabara y'umuhondo abagore, abagabo, kigaragaza uko amakipe yagiye ahura mu murenge kagame cup ndetse n'uko yagiye atsindana.

Umupira w'amaguru ni umwe mu mikino ikunzwe n'abantu benshi ku Isi, ikibuga gisa neza kirimo abantu bambaye amajezi agiye atandukanye, ku ruhande rw'ikibuga hari abandi bantu bahagaze, hirya gato hari ibiti bihateye.

Umupira w'amaguru ni umwe mu ukunzwe hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Abagabo bambaye imyenda itandukanye bari gukinira mu kibuga gikoze neza, kirimo tapi hari kandi n'umunyezamu wabo uhagaze mu izamu.

Abana bambaye imyenda y'umutuku ndetse n'umukara, bahagaze mu kibuga gishashemo sima. Bisa nk'aho bakina umukino wa karate ukunzwe cyane.

Inyubako yubatswe mu buryo bwa esikariye, isize amabara, icyatsi ndetse n'umuhondo. Harimo kandi ikibuga kirimo abakinnyi bambaye amagezi agiye atandukanye, hirya yabo hari undi muntu ukora mu nzego zishinzwe umutekano.

abagabo bane, bahagaze mu kibuga cy'umupira w'amaguru, iruhande rwabo hari undi mugabo wambaye agapira k'umutuku ndetse n'ikabutura y'umukara, hirya yabo hari udukingo turiho ibitaka ndetse hari n'igipangu cyubakishije amatafari ya rukarakara.

Abana batatu bose bari mu kigero kimwe bari gukina umupira mu kibuga kitarimo ibyatsi, inyuma yabo hari ibindi byatsi bitoshye ndetse n'ibyumye bihateye.

Abagabo bane bose bambaye amajezi asa ari mu ibara ry'umuhondo, ndetse n'utubara tw'umukara, bahagaze mu kibuga kigezweho kirimo tapi, haruguru yacyo hateye ibiti.

Umupira w'amaguru ni kimwe mu mikino y'imyidagaduro ikunzwe n'abantu benshi batandukanye. Harimo abana, abakuze ndetse n'abakiri bato. abagabo bane bambaye amajezi ari mu mabara atandukanye, bari mukibuga barimo gukina umupira w'amaguru.

Abakobwa barimo gukina umupira w'amaguru. Bambaye imyenda igiye itandukanye. Hari isa ubururu bwijimye ndetse n'isa umutuku, utambitsemo utubara tw'umweru. Barimo gukinira mu kibuga gikoze neza kirimo ubwatsi bwiza.

Akayira gatoya kari guca ahantu mu murima bisa nk'aho haca abanyamaguru ndetse n'ikinyabiziga k'ipikipiki gishobora kuhatambuka.

Umuhanda ni kimwe mu byorohereza abantu kugera aho bashaka kujya, hari abantu bari kugenda mu gahanda k'igitaka, umwe afite isuka ku rutugu, imbere ye hari abandi bantu na bo bari kugenda mu cyerekezo ari kujyamo.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'ibitigiye bitandukanye, hari imodoka ya fuso itwikirijwe na shitingi isa ubururu, iri kugenda ndetse imbere yayo hari umuntu uri kugenda gahoro, iruhande rwayo hari umunyonzi utwaye igare, hari kandi n'undi muntu wicaye mu biti.

agahanda k'igitaka, hirya ndetse no hino, hagati hari akayira kanyuramo amazi ndetse hari n'amazu menshi agiye atandukanye, imbere y'amazu harunze ibiti bifite ibara ry'umukara. Hari n'ibyatsi bitoshye, bisa icyatsi.